Umugabo n'umugore bari mu gihe cy'abo cy'izabukuru batembereye ku mazi, bakaba bafite igare, igare ry'umugabo risa umuhondo, igare ry'umugore risa umutuku, bakaba bariteganyirije neza mu gihe cy'abo cyo gukora, bakaba barimo bararya amafaranga yabo mu gihe cy'izabukuru.

Icyapa cyo mu muhanda gisa umweru kiriho umugabo wambaye ishati ya viringa, urimo urahana umukono n'umwana wambaye umupira w'umweru n'igikapu cy'umweru, iruhande hari ibiti bisa icyatsi hari ikirere gisa ubururu.

Igishushanyo cy'ubwishingizi bwa Radiyanti. Hakaba hariho icyapa kirimo cyirabwira abantu ko tugeze mu gihe cyiza cy'imvura, imvura nyinshi, imyuzure n'ibindi biza byakangiza inyubako. Hakaba hariho inyubako zasenywe, hariho amamashini asa umuhondo.

Icyapa kirekire cyane kiriho abagabo b'abazungu babiri kikaba gifite ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyuma gihagazeho cy'icyatsi hakaba hariho insinga z'umukara, inyuma yaho hari igicu kigaragara neza.

Umugabo uri kumwe n'umugore we n'umwana bakaba bambaye imipira y'umweru, akaba ari abazungu bafite ibikarito hejuru, hakaba hari ibikombe byo kunyweramo, iruhande bakaba bambaye inkweto zisa umweru, akaba hari ibiti biri hasi bibajwemo ari ibyo gushyiraho imyenda hakaba hariho amabara y'umweru n'ubururu.

Icyapa kiri hejuru kiriho abagore babiri umwe wambaye ishati y'umukara n'undi wambaye ishati y'ubururu, inyuma yaho hari ikinyabiziga gisa umutuku hakaba harimo nimero gatandatu gatandatu kabiri kane gatanu gatandatu kabiri gatanu gatatu gatatu.

Icyapa kiri ku ku muhanda hejuru handitsemo amagambo yo mucyongereza ariho bavuga ngo urashaka ubwishingizi, hasi aho hari ibiti by'cyatsi inyuma hariho amapoto y'amashanyarazi atanga urumuri ku muhanda hakaba hari n'ibicu bigaragara neza.

Abantu batandukanye barimo abagore n'abagabo bari mu cyumba cyabugenewe gukorerwamo inama kirimo ameza yabugenewe ndetse n'intebe z'umukara zicayemo abo bantu bafite n'ama mashini bari kwiga ku kibazo runaka cyabahurije aho hantu.

Icyapa kirekire cy'ubwishingizi kikaba kiriho umubare wa rimwe kabiri gatanu gatanu, inyuma hakaba hari amadirishya ariho ibirahure hasi hakaba hateye ibyatsi by'icyatsi n'umutuku.

Icyapa kiriho abasaza n'abakecuru bari kumwe n'umwana mutoya, aho ushobora guteganyiriza umuryango uwububikira ibyo uzakoresha kikaba kiri mu mabara menshi y'umweru, umuhondo ndetse hakaba hariho n'amatara amuritse hasi.

Telefoni isa umukara mu imbere harimo idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda hakaba harimo umubare w'amafaranga ibihumbi bibiri, akaba ari ahantu hari akabara k'icyatsi hejuru hakaba handitsemo inyuguti yapa b p r na a ba na na ka, hakaba hari akantu kameze nk'inzogera n'umutwe w'umuntu.

Umugore w'umuzungu urimo arakoresha mudasobwa ye, akaba yambaye ikoti risa icyatsi n'umupira usa iviringa, akaba ari iruhande rw'umugabo ufite umusatsi mwinshi wambaye umupira w'umweru, akaba afite ikaramu mu ntoki arimo arandika ku gipapuro hasi hari igikarito. Inyuma hari ububati busa umukara n'ibindi bicuruzwa.

Umuhungu wambaye umupira w'amaboko aciye n'amagambo y'umweru n'ubururu, akaba yaratetse umusatsi yambaye n'ikoboyi ku kuboko kw'ibumoso kwe hariho isaha, akaba acuruza amasaha n'inkweto z'abagabo n'abagore.

Aha ndahabona ibintu bigiye bitandukanye aho ndimo kubona abantu bagiye batandukanye, imodoka ndetse ndikubona moto zigiye zitandukanye, kandi nkaba ndimo ndabona na rifani zigiye zitandukanye, ndetse kandi nkaba ndimo kuhabona n'umuhanda wa kaburimbo.

Imitako yo mu nzu, iri mu kabati gateye irangi ry'umweru, inyuma hakaba hari igikuta gisa umweru, kirimo imirongo y'umukara. Hakaba harimo ibiseke, n'ibindi biboshywe mu ntoki.

Iki ni igikoresho kifashishwa mu kuzimya umuriro igihe uteye mu buryo butunguranye gifite amabara y'umutuku impande zose, ndetse n'umunwa w'umukara, nawe nakugira inama yo kukigura ukagitunga iwawe.

Inzu y'ubucuruzi n'abantu bane baje guhaha ndetse n'abandi barimo baragurisha harimo amashati y'umweru, umukara ndetse n'ubururu, hakaba hariho igishushanyo gifasha kwamamaza imyenda cyambaye ikositimu y'ubururu n'ishati y'umweru na karuvati y'umukara, akaba ari inyuma ibyatsi by'indabo byimitako inyuma hari igikuta cy'umweru gishushanyijeho abantu.

Abagabo batanu bafite urufunguzo runini r'umweru bakaba bari inyuma y'amamodoka atatu, inyuma y'inyubako ifite icyapa cyanditseho ubwoko bw'imodoka hasi hariho amatara yaka umweru bakaba bari

Ishami ry'umukindo, amatafari ahiye, amabuye yubakishijwe inzu, icyapa cy'umweru kirimo amabara y'umutuku n'ubururu hakaba hashushanyijeho ibikoresho bikoreshwa mu modoka, inzu ifite ahantu harehare ho kugenda, iruhande hari indabo ziteye.

Urujya ni uruza rw'abantu bari kwamamaza umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu bakaba barimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba biganjemo abantu bambaye imyenda y'ibara ry'icyatsi, bari mu ma tente arimo amabara y'umweru, icyatsi n'umuhondo, bamwe bakaba bafite ibyapa biriho ifoto y'umugabo wambaye kositime byanditseho ngo tora, bakaba bacyikijwe n'ibiti byinshi ku musozi.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'imodoka, hakaba harimo umwe w'umuzungu n'undi w'umwirabura, bafite urufunguzo runini rw'imodoka, imbere yabo hari imodoka isa ikijuju, ikaba ifite amapine y'umukara, inyuma hari ibiti bisa icyatsi hari inyubako iri iruhande rwabo ifite irangi rya kaki n'amadirishya asa umweru.

Amapoto y'amashanyarazi ariho insinga nyinshi, hasi hakaba hateye utwatsi twiza ku muhanda wa kaburimbo, akaba ari igipangu kiriho icyapa cy'ubwoko bw'imodoka bw'ubwoko bwa Yundayi, hakaba haba hari amamodoka inyuma n'inyubako zifite amabara atandukanye.

Imodoka ifite irangi ry'umweru n'amapine y'umukara n'ibirahure, ikaba iri inyuma y'inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, ifite n'amabara y'umweru, inyuma hari ibiti birebire by'icyatsi iruhande icyapa gishushanyijeho umusaraba.

Abantu benshi iyo bagiye kubwira imbaga nyamwinshi bifashisha indangururamajwi. Uyu mumama wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara n'isakoshi y'umukara, ubanza akunda ibara ry'umukara niko yabikoze. Mubyukuri buri wese ahari arabasha kumva nta nkomyi nta n'imbogamizi.

Inyubako irimo ubwoko bw'imodoka bwa yundayi imbere yabo hakaba ari igiti cy'amashanyarazi n'insinga nyinshi n'ibiti bisa icyatsi n'ubusitani bw'icyatsi.

Icyapa kirekire cyanditseho ubwoko bw'imodoka bwa Toyota, Benzi, kiya ndetse n'inyubako isa umweru ifite isakajwe amabati, ku ruhande haho hari aho imodoka ziparika hasakajwe igishitingi y'icyatsi hariho umuntu ushinzwe umutekano hari ibyatsi biteyeho ndetse n'ibiti n'iminara.

Abagabo babiri bahagararanye bambaye ubupfukamunwa bakaba bambaye n'amashati bakaba bari imbere y'imodoka yo mu bwoko bwa yundayi isa ubururu bwijimye kuruhande hakaba n'indi isa umukara inyuma hari inyubako iriho imiryango y'ubururu n'ibirahure byumweru hakaba hariho n'itara kuhande n'amatafari ahiye.

Umugabo uri imbere ya mudasobwa isa umukara, akaba yambaye ikoti ry'umukara ndetse n'ishati y'ubururu na karuvati iruhande rwe hari ubwuma bw'amamashini , afite urupapuro mu ntoki, ku ruhande rwe hari icyuma kibara amafaranga, imbere hari ikirahure, iruhande rwe hari n'abandi barimo barakora akazi.

Abagabo babiri umwe wambaye ishati irimo uturongo tw'umutuku, akaba yambaye n'ingofero y'umukara irimo akarongo k'umutuku yambaye n'agapfukamunwa n'undi utandukanijwe n'ikirahure wambaye umupira w'umweru, hakaba hari mudasobwa hari n'icyapa cya emutiyene gisa umuhondo.

Inoti y'amafaranga ijana yakoreshwaga kera mu Rwanda, akaba ariho imisozi n'ikiyaga, ikaba yarasaga umweru, irimo amabara y'umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi.

Abagabo n'abagore bari mu biro bakaba bari ku meza asa umweru hatandukanyijwemo n'igisa ubururu, bambaye amashati y'umweru hari uwambaye ikote n'umugore ufite imisatsi miremire ufite ibintu mu ntoki inyuma akaba ari umuryango usa umweru bakaba bafite mudasobwa.

Abagabo bateruye ibico barimo barasuka amata mu kimashini cyabugenewe iruhande hari umugore witeze igitambaro mu mutwe wambaye n'igitenge, ku ruhande mu nyubako harimo ibikombe by'umweru harimo n'abantu, bicaye ku ntebe bategereje ibyo babaha.

Ibicuba biri hejuru y'akabati hasi hakaba hariho uducupa tw'amazi twa Nile, iruhande rwaho hariho ikintu kiri mu gipapuro cya kaki hejuru hashushanyijeho inka ku ruhande hariho amatafari ahiye.

Igikombe k'ikirahure kirimo amata y'inshyushyu iruhande hariho isahani isa umweru akaba ari ku meza y'umweru akaba ku ruhande hariho impapuro za kaki n'ikirahure.

Icyuma cy'amata hakaba hari akadobo kabonerana iruhande hari imeza isa umweru, inyuma hari urukuta rw'ubururu icyuma gihagaze ku maguru asa ubururu hari naho gutwara amata, hejuru hari ahasa umweru mu muryango.

Abagore babiri umwe wambaye ishati iriho ikimenyetso cy'umutuku undi akambara umupira w'umukara bose bakaba basutse banatoboye bambaye amaherena bose bafite udukarito mu ntoki zabo bamamaza amata yo kunywa .

Umugabo wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'ubururu, akaba arimo arabuganiza amata ayavana mu gicuba ayajyana mu cyuma kiyavanga, inyuma hari igikuta gisa umuhondo.

Umugore wambaye ingofero w'inzobe akaba yambaye umupira urimo amabara y'umuhondo, n'umweru, n'umukara, ukaba usa ubururu arimo ibintu bizengurutse inyuma ye hari umubati bubajwe mu mbaho ku gikuta gisa umuhondo hariho igishushanyo cy'inyenyeri akaba afite amajerekani nama tereminsi.

Umuhungu ufite umusatsi mwinshi wambaye umupira w'umukara akaba afite ipasi arimo aratera ishati isa umweru, akaba ari ku kameza karimo amabara y'ubururu bwerurutse n'ubwijimye, ni ibara ry'umweru hakaba hari amabara y'umutuku, umukara inyuma ye hakaba hari urukuta rwera inyuma.

Idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda, rikaba riri mu mabara y'ubururu, umuhondo n'icyatsi. Hakaba hari izuba risa umuhondo, hasi handitse inyuguti zo mu ibara ry'umuhondo handitsemo uburyo bworoheje, umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu.

Umukobwa ufite telefone mu ntoki arimo arishyura kuri momo, akaba afite inzara nziza akaba ari inzobe, afite imisatsi miremire, wambaye umupira w'umweru, inyuma ye hari uburyo ushobora kugura interineti ukanze akanyenyeri gatatu kane gatanu urwego.

Uburyo bw'ikoranabuhanga ,ushobora kwishyura amafaranga wakoresheje y'amazi ,kuri wasake wanditsemo nimero za konteri yawe, ugashyiramo amafaranga wishyura ,nimero ya konteri ni gatandatu kabiri umunani kabiri icyenda kane gatandatu rimwe gatandatu rimwe rimwe gatandatu, umuntu akaba agiye kwishyura ibihumbi cumi na bibiri by'amafaranga y'u Rwanda.

Umukobwa ufite umusatsi mwinshi, akaba afite telefone mu ntoki, akaba yambaye umupira w'umweru. Inyuma ye hari inzu yubatse, iteye amarangi y'umuhondo hamwe na viringa, ikaba isakaye, ikaba ariho icyuma gisa umukara.

Terefone isa umukara irimo irerekana amafaranga uko asigaye kuri konti y'umuntu, muri terefone harimo hagaragaramo amabara y'umuhondo icyatsi umweru n'umukara n'ubururu.

Ikiganza cy'umuntu gifashe amafaranga yo mu gihugu cya Nigeria igihumbi, inoti nyinshi, akaba anafashe n'amadolari y'amanyamerika y'ijana ni inoti nyinshi.

Inoti y'amafaranga magana abiri iriho umusaza ufite uruharaba akaba hariho amazeru menshi akaba yarakozwe muri banki yo mu buhinde.

Inoti z'amayero, akaba arimo inoti y'amafaranga: atanu, icumi, makumyabiri, mirongo itanu, ijana, magana abiri, akaba arambitse hasi, akaba afite amabara y'umuhondo, icyatsi, viringa, ubururu n'umutuku ndetse n'umweru.

Inote ya mirongo itanu, iy'ijana yo mu Ubushinwa, ikaba isa icyatsi n'umweru, n'indi isa umutuku iriho ibishushanyo by'abagabo, hariho n'imibare ku ruhande hakaba hari ikiranganteko cy'ubushinwa.

Inoti y'ijana yo muri leta zunze ubumwe z'Amerika, ikaba ishushanyijeho umugabo ikabasa umweru n'umukara hakaba hari n'izindi zisa icyatsi, umutuku ziriho imibare itandukanye hariho makumyabiri, gatanu ijana n'izindi.

Inoti ya banki ya kongo ikaba ari iy'amafaranga mirongo itanu iriho amarangi y'umutuku, kariho n'ibindi ishushanyijeho akaba ariho inyuguti ya ka gatatu zeru gatanu gatatu gatandatu zeru rimwe e kariho n'umukono w'ushinzwe kuyitanga.

Amaboko abiri arimo arahinduranya amafaranga ukuboko kumwe kwambaye umupira wa'maboko maremare usa umukara, inoti y'idorari n'inote yo muri Nigeriya, inote y'igihumbi, iya maganabiri n'inoti y'icumi.

Uyu n’umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, kuhande hari ubusitani bwiza burimo ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku binyabiziga bihanyura byose.

Umuntu uhagaze ku muryango w'umutuku akaba yambaye ishati, imbere mu nyubako hakaba handitse inyuguti za o, ma akarongo p, e, sa na a, hari ibirahure biriho amatangazo hejuru hariho amabara y'umutuku no ku ruhande mo imbere hari amabara y'umweru.

umukobwa wambaye agapfukamunwa n'ishati' y'umuhondo akaba ahetse igikapu gisa umukara akaba afite imisatsi miremire afite impapuro mu ntoki ari imbere y'ikirahure kirekire kuruhande hari amabara y'icyatsi n'umutuku iruhande hari aho bavunjishiriza n'amafaranga bavunjisha.

Inzu ifite icyapa gisa icyatsi hakaba handikishijweho amagambo y'umweru hakaba hariho n'intare isa ubururu, hejuru yaho hari ikindi cyapa gisa umuhondo kirimo amagambo y'umukara, iruhande hari icyapa cy'umweru kirimo amagambo y'umukara, iruhande hari akantu k'umutuku amadirishya y'ibirahure.

Umugabo urimo andika ku byapa by'uko amafaranga yo hanze acuruzwa anavunjishwa, akaba yambaye uwo mupira urimo amabara y'ubururu n'ibara rya viringa, akaba iruhande rwe hariho inzu yubakishijwe iriho ibyuma.

Igikorwaremezo cy'umuhanda w'abanyamaguru ndetse w'ibinyabiziga, aho ibinyabiziga hari kugenderwaho n'ibinyabiziga mu bwoko bwa moto eshatu, ebyiri zitwawe n'abayobozi bazo ndetse bafite abagenzi batwaye, ndetse n'indi imwe idafite umugenzi utwaye ahubwo itwawe n'umuyobozi wayo gusa.

Intebe zicarirwamo mu ruganiriro zifite amabara y'icyatsi, ubururu ndetse n'ubumeza bwaho bubajwe mu mbaho, hakaba hariho umuntu wicaye wambaye umupira w'icyatsi urimo uravugira kuri terefone hejuru ye hari kashipawa, igikuta kiri inyuma ye kikaba gifite irangi ry'umuhondo ndetse imiryango ikaba isa ubururu.

Intebe zibajwe mu biti hakaba haririmo imisego ikiri mw' ishashi ,hakaba harimo akameza mo hagati kariho impapuro hasi inyuma hari umuryango na madirishya, n'ibirahuri bigaragaza hanze ibiti bisa icyatsi ,igikuta cyabo kirera, hasi harera.

Imeza ikozwe mu mbaho, hakaba hariho n'intebe ku ruhande, mo hagati mu meza harimo amabuye. Inyuma hari umuryango ukozwe mu mbaho, hakaba hari igikuta gisa umweru, hakaba hari ikirahure, n'aho bogera.

Akabati kabajwe mu mbaho kakaba gahagaze ku maguru asa umukara hakaba harimo umuntu urimo uratera irange wambaye umupira urimo umweru n'ibintu byo hasi bisa umutuku, iruhande rwe hakaba hariho ibishushanyo birimo amabara y'umuhondo umutuku, ubururu n'icyatsi hejuru harimo amarange y'umweru.

Akabati kabajwe mu mbaho kakaba kifungura kakanifunga hejuru yaho hari ahantu harambuye iruhande rwaho hari igikuta gisa umweru, inyuma yaho hari akandi kabati kabajwe mu mbaho karekare.

Ikibindi gisa umukara hejuru yaho hari imitako, hasi hari amabara y'umukara n'umweru, hakaba hariho umuntu urimo aragenda yegera ahantu hubatse hari amabara y'umweru n'umukarakaba hari intebe zifite n'imisego.

Umugabo wambaye umupira wamaboko aciye n'ipantaro y'ikoboyi n'inkweto z'umweru n'umukara akaba arimo aravugana n'umukobwa wambaye ikoti n'ishati y'umweru akaba ariho amafoto menshi harimo n'y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ariwe perezida Paul Kagame.

Inyubako ifite amabara y'umuhondo imbere hakaba hari umutaka usa icyatsi ku ruhande hari ibirahure kuruhande rw'aho handi hari ibiti n'ibyatsi biri hasi inyubako ndende y'amagorofa atatu.

Indobo ziteguye kumeza kuruhande rwaho hari intebe zifite ibara rya kaki imbere yabo hari ibaraza ririho imashini imesa hari ibiti byicyatsi hanze hari n'inyubako ziri kure cyane.

Ikigo cya ariyanse kirimo cyakorerwamo abantu harimowo abazungu ndetse n'abirabura bakaba bicaye ku ameza abajwe mu imbaho inyuma yabo harimo amamashini imbere ku meza hari za mudasobwa hari amatara ndetse n'imitako y'ibiti n'urukuta rwera.

Umugabo wicaye ku ntebe y'umutuku inyuma ye hari ikimenyetso kerekana ubwishingizi bwa radiyanti iruhande hari indabo imbere kuri ayo meza hariho impapuro n'ikirangantego cya radiyanti imbere hari umugabo n'umugore bahagaze bambaye ibintu amakoti y'umukara.

Umukobwa wambaye umupira wa viringa ufite imisatsi miremire wicaye mu ntebe y'umukara, uri imbere y'undi urimo akoresha mudasobwa, inyuma ye hakaba hari ububati bw'ibyuma, hakaba hari iruhande rwe umugabo wambaye ishati n'undi mugabo wambaye ishati y'umweru bakaba barimo baraganira inyuma hari amadirishya y'ibyuma.

Inyubako ifite imiryango myinshi, akaba ari uwo guca hasi hari n’uwo guca hejuru. Iruhande rwabo hari ibyuma abantu bacaho bagenda bazamuka kuri uwo muryango. Hariho ibirahure birebire bibonerana hejuru, hari icyapa cyanditseho "U na A na P UBWISHINGIZI," kikaba gisa umweru n’umutuku. Hejuru hakaba hariho n’ibindi bishushanyo birimo amara y’umuhondo.

Urupapuro rw'uko wasaba inguzanyo muri banki ya ayendemu. Hakaba haba handitseho inyuguti nyinshi ugomba kuzuzamo, harimo amazina, na nimero ya konti yawe, n'umukono wawe.

Umukobwa ufite imisatsi myinshi akaba akaba yambaye ikinigi mu ijosi akaba arimo arakoresha telefone akaba yambaye umupira w'umweru ufite ikaramu arimo arandika ku mpapuro inyuma ye hari amatara n'ahantu hirabura.

Umukobwa wambaye neza ufite imisatsi miremire w'imibiri yombi, akaba yambaye agakoti k'umukara n'ishati yu'mweru imbere hari undi wambaye kimwe nkawe bakaba bicaye ku ntebe z'umutuku inyuma hari ikrahure.

Uko ushobora kwaka inguzanyo zo kwiga wahamagara kuri, zeru karindwi umunani kabiri, zeru kabiri zeru, zeru kane zeru, cyangwa zeru karindwi kabiri umunani gatatu ,zeru gatanu gatatu, gatanu gatanu, kariho amafoto y'ibigo by'amashuri.

Ibicuruzwa birimo imineke, inyanya, amashaza, umuceri, ibishyimbo akaba ari ubukapu bukozwe mu bi bitenge akaba ari ikiganza cy'umugore wambaye ibikomo by'umweru imbere hasi hari base y'ubururu.

Isoko ryubakishijwe amatafari ahiye rikaba risakajwe amabati asa ubururu hakaba hari icyapa cyerekana yuko aho aho hantu hariho bagurishiriza ibiribwa hakaba harimo abacuruzi, abagura karimo n'umuntu wambaye imyenda y'icyatsi ariwe ushinzwe umutekano, inyuma yaho hari ikintu cyera.

Inyubako ndende ifite amadirishya y'ibirahure bibonerana, hasi hakaba hariho icyapa gisa umutuku harimo inyuguti z'umweru, akaba ari ku muhanda wa kaburimbo hari ikimenyetso cyo mu muhanda gikata ibumoso cyikaba gisa ubururu hakaba hariho n'abagenzi barimo baragenda n'ibiti n'umusozi.

Umugore urimo acururiza mu isoko ,wambaye ikanzu y'icyatsi ufite n'imisatsi miremire ,iruhande rwe harimo umugabo wambaye itaburiya y'umweru ,iruhande hari umugore wambaye ikanzu akaba yanitandiriye, n'undi mugabo wicaye wambaye ipantaro y'umukara. Hakaba harimo ibihingwa ibitoki, imizuzu ,n'amakoro.

Umugore wirabura ufite imisatsi myinshi y’umukara namaso ajya kuba matoya wambaye ikanzu iri mu ibara ry'umutuku, umweru, ndetse n’umukara ahagaze imbere y’ igikuta gifite ibara ry'mweru.

Isoko ririmo abantu barimo baracuruzamo ibintu bitandukanye inyanya, karoti, amashu, pavuro ndetse n'ibindi, hakaba harimo abambaye imyenda y'akazi amataburiya ndetse n'abambaye imyenda y'umuhondo umutuku, inyuma yabo hariho ibyapa by'itumanaho rya emutiyeni.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibikoresho bibajwe cyangwa biboshywe n'intoki, hakaba harimo imitako, ibiseke n'ibininigi byo kwambara, bikaba bikorerwa mu Rwanda, hakaba harimo n'abantu baje kubigura hari n'abandi babigurisha, muri abo ngabo hari uwambaye ingofero hari n'uwambaye n'umupira w'umutuku.

Akazu k'icyuma k'itumanaho rya MTN gasa umuhondo, karimo abagore babiri bahagaze mo imbere, hakaba hari igiti kirekire n'abandi bari mu mutaka ku ruhande. Inyuma yabo hari urukuta rurerure.

Umugabo w'umuzungu ufite igiseke mu ntoki cy'umukara, cyatsi n'umweru aka hari n'undi mugore wicaye wambaye umupira w'umuhondo akaba ari kuri mudasobwa hakaba hari n'isakoshi imbere yabo inyuma harimo igikute gifite amabara y'umweru ndetse n'umuhondo kandi n'undi urimo akora mu giseke.

Abantu barimo barishyura ikinyabiziga cyabatwaye ku i buryo bw'ikoranabuhanga badahererekanya amafaranga, bakaba bambaye agapfukamunwa k'umuhondo, inyuma hari intoki harimo n'ibyapa, n'ibiti by'amashanyarazi.

Icyapa gisa umuhodo kirimo inyuguti z'umukara aho ushobora kugura ibintu ukabyishyura ku buryo bw'ikoranabuhanga udakoresheje amafaranga ukoresheje agakarita kanditseho viza.

Umutaka w'ikigo cy'itumanaho cya mtn hejuru hari icyapa kiriho amabara y'umweru umukara n'umutuku bade hariho abantu bafuhetse ibikapu bari ku muhanda w'igitaka.

Inzu isa umuhondo yanditseho MTN akaba ariho amafaranga yoherezwa, akaba hariho mugore wambaye isengeri n'igitenge n'isakoshi akaba ahahagaze imbere, inyuma hari akazu k'imbaho ku ruhande hari igiti cy'icyatsi hari inzu isakajwe amabati kandi hari ibiti by'amashanyarazi.

Umugabo wambaye umupira usa umuhondo n'ishati mu imbere akaba ahagaze kuri moto isa umuhondo, inyuma ye hari icyapa kiriho imodoka kikaba gisa umuhondo by'itumanaho rya emutiyene, iruhande hari inzu zubatse hari amazu hari ibyatsi hari n'amarangi y'umweru n'umukara.

Umugabo uri ku ipikipiki ufite terefone ku gutwi, akaba ari iruhande rw'umukobwa ufite imisatsi isutse irimo agatambaro k'umweru akafite terefone mu ntoki, wambaye umupira w'umuhondo wanditsemo amabara y'ubururu akaba yambaye n'umupira w'amaboko maremare n'agakapu kuruhande, inyuma hari ibintu by'mweru.

Abantu bahagaze imbere y'inzu y'itumanaho rya MTN ikaba isa umuhondo irimo n'ibishushanyo birimo telefone n'ifoto y'umugore uri kumwe n'umwana, hasi hakaba hari ibara ry'ubururu, hakaba hari abandi bafite za mudasobwa ku ruhande hari ibiti n'insinga.

Akazu gasa umuhondo k'itumanaho rya Emutiyene, hahagazeho umugabo wambaye ishati yumweru n'ikoboyi. Iruhande hari umuhanda wa kaburimbo uriho abagenzi bagiye kwambuka. Akazu kariho amabara y'ubururu.

Ubucuruzi bw'ikoranabuhanga aho ushobora kugura ibintu ku mafaranga utarinze uva aho uri, hakaba harimo ibyo gukoresha mu gikoni amasabune n'ibyo baboshye, akaba ari urubuga rwitwa Rwanda ati.

Umukandida wiyamamariza kuba perezida wa repubulika w'ishyaka rya green gurini pate Frank Habineza ari kwiyamamaza abanyamakuru bagenda bamufotora abamwungirije n'abamuherekeje bamugaragiye abaturage bitabiriye inyuma ya senyegi yaho ari bitabiriye baje kumva ibyo abagezaho.

Umugore ufite terefone mu ntoki, handitsemo vuba, akaba yiteze igitambaro mu mutwe, akaba yambaye ishati y'ubururu, akaba arimo arishyura mu ikoranabuhanga rya vuba vuba, aho ashobora no gutuma ibintu bikamugeraho.

Inzu ikodeshwa Kigali i Remera y’ibihumbi magana atandatu ku kwezi ifite ibyumba bibiri, iki akaba ar’igikoni kinini cy'ubwoko bugezweho, hakaba hariho kizimya moto, umuryango ufite ikirahure kirekire nk’uko bigaragara, hariho rero ububati bubajwe mu mbaho n'itara rifite umugozi muremure rigaragara neza.

Igikoni kigezweho gifite ububati bw'umweru hakaba hariho naho batekera bakoresheje amashyiga ya kijyambere, ku ruhande hari icyuma gikonjesha ibiribwa, hejuru hari amatara yaka umweru.

Inzu iherereye kabeza mu mujyi wa Kigali ikodeshwa amadolari magana atanu na mirongo itanu ku kwezi, ikaba ifite igikoni kigezweho kiriho ububati busa umweru n'imashini ifasha mu kumesa imyenda yo kwambara.

Inzu iri i Kanombe mu mujyi wa Kigali igurishwa amafaranga miliyoni ijana na cumi n'eshanu. Ikaba ifite ububati busa neza, bukozwe mu mbaho bw'umweru, ku ruhande hakaba hariho amabuye akoze kandi hari imbaho zikozwemo umuryango.

Umugabo wambaye ikoti, ishati n'ipantalo, wambaye utwuma tumufasha kureba neza, akaba arimo arinjira areba ku muryango ukoreshejwe imbaho ubwiza bufite.

Inzu iri i Remera muri Kigali, ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atandatu ku kwezi. Hakaba harimo ibyumba bibiri, hakaba hariho igipangu gisa umukara n'inzu ifite amabara y'ubururu n'umweru.

Inzu ikodeshwa amadolari ibihumbi bibiri, muri Kigali. Ikaba ifite igikoni kinini cy'imbaho, kigezweho. Ku bubati hariho amabuye meza. Hejuru hari amatara yaka umweru. Iruhande hari amadirishya.

Inzu ikodeshwa amafaranga miliyoni mirongo ikenda n'eshanu ikaba iri ikigali ikaba isize ibara ry'umweru, ifite amabati y'umukara, hanze hari igipangu kiriho ikirahuri kibonerana, ku ruhande hariho amabara y'umukara n'umweru n'amabuye n'uduti duteye ku ruhande.

Inzu igurishwa miliyoni mirongo itatu, iri mu mujyi wa Kigali mu Rwanda. Ikaba ifite igikoni cyiza kigezweho, gifite ububati hejuru ndetse n'ahantu hasi ho gutekera, ikaba iri ku ruhande, hariho amabuye y'umweru hasi hakaba hari ibibara by'umweru n'umukara.

Ikzu ikodeshwa mu mugi wa Kigali Kacyiru, y'icyumba kimwe n'ubwogero. Ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana abiri ku kwezi. Ikaba ifite igikoni kiza gifitemo ububati bukozwe mu mbaho. Hanze yaho hakaba hateye irangi n'imiryango myiza.

Igikorwaremezo cya hoteli kirimo intebe zibajwe mu mbaho ndetse n'imeza zibajwe mu mbaho, imbere hariho utubati ducururizwamo amacupa y'inzoga, ndetse n'ububiko bukonjesha bw'ibyo byo kunywa.

Inzu iri I Kanombe wabasha kugura ku mafaranga make. Ikaba yubakijwe amatafari ahiye, ku ruhande hariho amadirishya afite ibara ry'icyatsi, hasi hateyeho indabo, ku ruhande hariho amabuye. Ku ruhande hari inzu y'amabati y'umukara n'umutuku, hariho igikuta gifite amabara y'umweru.

Inzu ikodeshwa y'icyumba kimwe n'ubwogero, ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana abiri ku kwezi mu mujyi wa Kigali-Kacyiru inzu ikaba iri munsi, ikaba ifite ibirahure bisa ubururu n'imiryango ikaba iteye irangi rya kaki hasi hari sima hejuru hari amabuye n'ibyuma bisa umukara.

Inzu igurishwa mu mujyi wa kigali, mu murenge wa Kanombe ikaba igurishwa amafaranga miliyoni mirongo inani n'eshanu z'amanyarwanda ihagaze ku buso bwa magana atatu na mirongo ine inzu yubatse neza ifite igisenge cy'umukara n'amarangi y'umuhondo, ubururu, ibirahure bisa umukara akaba ari umukozi wambaye umupira w'ubururu n'amajerekani.

Inzu iherereye Kimironko muri Kigali ikaba ifite ibyumba biri n'aho kogera hamwe, ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi maganatatu ku kwezi, ikaba ifite igikoni ndetse cy'ububati bw'umweru hakaba hariho n'amadirishya n'imiryango.

Imurikagurisha ry'ibicuruzwa ryitabiriwe n'abantu benshi, hari abagabo ndetse n'abagore harimo n'abacuruza iruhande hariho abicaye ku ntebe z'umweru imbere yabo hari ameza, hari abantu benshi cyane inyubako ifitemo amatara y'umweru n'ibikuta byera.

Inzu y'ubucuruzi bw'ibarizo aho babaza intebe mu bwoko bw'imbaho utumeza n'intebe zibajwe ziriho n'imyenda hari umuhanda wegeranye n'iyo nzu uwo muhanda uriho ikinyabiziga cya moto.

Inyubako y'ubucuruzi irimo amagorofa atanu, hakaba ariho aho bacururiza, imyambaro y'abadamu, harimo amakanzu imikenyero, ndetse hakaba hari n'undi muryango acuruzamo imyenda y'abagabo harimo amakoti n'amapantaro, hejuru hakaba ari iduka rishinzwe gucuruza ibikoresho by'abana, iruhande hari imdi imiryango myinshi y'ubucuruzi.

Umugabo wambaye ishati y'umweru akaba yambaye na korovati, afite ubwanwa bukeya, agasatsi gakeya, akaba ari imibiri yombi, inyuma ye hari icyapa cyanditseho rasasaba cy'ubururu n'amagambo y'umweru, bakaba barimo baramufata amajwi, akaba ari amatelefone ndetse n'ibyuma bisakaza amajwi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo ugizwe n'amabara y'umukara nu'uturongo tw'umweru, kuruhande hari ibiti birebire by'icyatsi bitoshye, bitanga umuyaga n'amahumbezi ku banyura aho ngaho bose.

Umugabo wambaye agapfukamunwa k'icyatsi akaba yambaye n'umupira w'umutuku, akaba afite ikintu mu ntoki kiriho amafaranga angana nka miriyoni imwe n'ibihumbi magana abiri mirongo itanu, akaba ari mu kwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe. Inyuma ye hakaba hateye indabo n'ubwatsi inyuma hari urukuta.

Ikigo k'igihugu cya rasasa gishinzwe imibereho myiza no kwiteganyiriza imbere, ukaba ushobora kugira ejo heza ubyiteganyije kuko izabukuru mu nshingano za ra sa sa ba hakaba inyuma hera hariho amabara y'ubururu n'umuhondo.

Mu bantu batatu harimo umukecuru uhagaze wambaye agatambaro mu mutwe k'umutuku akaba yiteze igitambaro cy'amabara harimo ubururu, umuhondo n'icyatsi akaba ashyize amaboko ku meza imbere ye hari impapuro hari umugabo ufite ikaramu urimo urandika, inyuma ye hari umugabo wambaye itaburiya isa umweru mu muryango.

Umukobwa urimo arereka umuhungu uburyo bwo kwishyura bw'ikoranabuhanga, hakaba hariho ibicuruzwa byabo n'abandi bantu barimo barabirebaho, ku ruhande hari mudasobwa ndetse n'icyuma gisohora ifatabuguzifite ku baguzi.

Iduka ririho ibikoresho biri ku murongo bifite amabara atandukanye harimo umuhondo, umweru, icyatsi, umutuku. Hakaba hari n'amatara amurika neza, inyuma hari ibikuta bisa kake hejuru hakaba hasa umweru.

Umukobwa uri mu iduka arimo arahaha akaba afite imisatsi myinshi, telefone mu ntoki, akaba afite akagare bahahiramo karimo ibicuruzwa byinshi byaba ibyo kurya ibyo kunywa ndetse n'ibindi, inyuma ye hari imitako, ahagana hejuru akaba yambaye ikoti y'ikoboyi n'ipantalo n'umupira w'umweru.

Inzu y'ubucuruzi aho harimo ibintu bahaha harimo ibyo kurya, ibyo kunywa ndetse n'ibyo gushyira mu biryo batetse, bikaba biri mu mabara y'umuhondo, umutuku, icyatsi, umweru n'ayandi menshi.

Ifoto y'umugabo wafotorewe hagati mubantu w'umuyobozi wambaye kositimu ufite na marineti arebye hirya.

Icyumba cyagenewe gukorerwamo inama, giteguyemo intebe ndetse n'ameza akorerwaho inama, cyahuriwemo n'abantu benshi baturuka mu bihugu bitandukanye biganjemo abanyafurika ndetse n'abazungu, aho bari kuganira ku bintu bitandukanye byabahurije muri iyi nama barimo.

Inzu y'ubucuruzi harimo ibyo kurya n'ibyo gutekesha ari byo birungo, hejuru hakaba hari ibyo kunywa by'imbuto, iruhande rwaho hakaba hari n'ibindi byo gukoresha mu nzu, bikaba bifite amabara y'umuhondo, umutuku, icyatsi ndetse n'umukara.

Akabati gasa umweru, karimo ibicuruzwa byo kurya. Biri mu mabara y'umutuku, umuhondo, ubururu n'icyatsi, hejuru hakaba hari n'ibindi birimo umweru. Hejuru hakaba hasakarishijwe amabara y'umuhondo, umutuku, umweru n'ubururu.

Umusore wambaye ishati y'icyatsi isaha ku kuboko kw'ibumoso akabafite agakombe gasa umweru, akabafite igikapu ku rutugu, afite umusatsi mwinshi arimo arishyura akoresheje telefone ku buryo bw'ikoranabuhanga, iruhande harimo ibyuma bikora amakawa inyuma ye hari umugabo wumuzungu wambaye umupira w'ubururu wicaye hanze.